Abayobozi bajya bashyiraho gahunda yo gufasha abaturage kwiteza imbere, binyuze mu kuboroza amatungo magufi kuko abafasha mu kubona agafumbire kandi bakabona ibyo bakeneye, ibyo bikorwa bikorerwa abantu batishoboye ndetse n'abakozi.

Kwa muganga hari ahantu baba baragenewe kuvurira abantu barwaye indwara zihutirwa urugero nk'umuntu iyo akomeretse yakoze nk'impanuka cyangwa hari ikindi kintu kimubayeho nk'iyo umuntu arwaye indwara yihutirwa bamujyana muri icyo cyumba kugira ngo bamwiteho bamuhe ubuvuzi akeneye, ibyo bituma hagabanuka impfu ziterwa n'uko nta serivisi nziza abantu bahawe.

Iyo umuntu agize ikibazo akarwara mu buryo butunguranye ari nko mugo ahamagara ambulance. Hari nimero bakoresha bahamagara kugira ngo ibagereho byihuse. Muri ambulance haba harimo ibikoresho by'ingenzi bishobora kuba bikoreshwa mu gihe bari kwita ku muntu utaragera kwa muganga . Harimo agatanda aba aryamyeho, naone hari intebe abaganga bari kumwitaho bicaraho ndetse n'abo bazanye.

Leta ijya ishyishyiraho gahunda yo koroza abaturage batishoboye kugira ngo babashe kwiteza imbere babone ibyo bakeneye, borozwa amatungo magufi nk'ihene kuko atuma bakemura ibibazo byabo bitandukanye.

U Rwanda rujya rushyiraho gahunda yo gusuzuma abaturage ku buntu, indwara zitandukanye, umuvuduko w'amaraso, diyabete ndetse n'izindi, nano iyo hari icyorezo Leta ishyiraho gahunda yo kuvura abantu, gutanga inkingo ku buntu kandi igatanga ubukangurambaga kuri izo ndwara.

Iyo dukoze impanuka cyangwa se umuntu akarwara ari mu rugo, ku buryo adashobora kugenda. Hari imodoka zabugenewe zitwa imbangukiragutabara kugira ngo zifashe abantu kubona ubutabazi bw'ibanze. Ziba zirimo ibikoresho ndetse n'abaganga baribube bari kuvura umuntu.

Abantu bashinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze ari abo bita crox rouge, bakora uko bashoboye kugira ngo bite ku buzima bw'abaturage. Baba ari abakorerabushake kandi begera abaturage mu ngo zabo, kugira ngo babaze ibibazo bitandukanye ku bijyanye n'ubuzima, niba hari n'aho biri ngombwa babahe ubutabazi bw'ibanze.

Iyo umuntu yakomeretse abakeneye ubutabazi bw'ibanze niyo mpamvu bahita bamwihutana bakamujyana kwa muganga kugira adatakakaza amaraso menshi bahita bamwitaho bakamupfuka ndetse bakamuhereza n'imiti igabanya uburibwe, ni iby'ingenzi ko tuba tugomba gutanga serivisi zihuse ku bantu nk'abo kugira ngo batahakariza ubuzima kuko baba batakaje amaraso menshi.

Kwa muganga haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita ku barwayi, muri byo harimo ibitanda bifite n'amapine ku buryo bishobora kuva ahantu hamwe bakabishyira ahandi bidasabye ko umurwayi bamukura ku gitanda.

Iyo bibaye ngombwa ko kwa muganga bakeneye ubundi bufasha, bifashisha ba croix rouge cyangwa se abantu babigize umwuga mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, nanone batera imiti itandukanye yica udukoko tutagaragarishwa amaso. Abo ba croix rouge bahabwa amahugurwa kugira ngo babashe kwita ku bantu, kuko baba batari abaganga mu buzima busanzwe, niyo mpamvu hagenwa igihe bagahabwa amahugurwa.

Abakora kwa muganga barabihuguriwe cyane, nanone usanga baba biteguye ku kuduhereza serivisi nk'urugero nk'iyo haje umuntu ukeneye ubuvuzi bw'ibanze bagiye nko kumubaga, yakomeretse cyangwa umubyeyi ugiye kubyara.

Kwa muganga hari imodoka zabugenewe bita ambilanse zifashishwa mu kwita ku buzima bwa muntu. Iyo modoka itanga ubutabazi bw'ibanze mu buryo bwihuse. Iyo umuntu agize ikibazo hari nimero yayo yahamagara, igahita imugeraho kandi iza ifite ibikoresho by'ibanze harimo n'abaganga, bafasha umuntu kugira ngo bamutabare mu gihe ataragera kwa muganga.

Mu byumba byo kwa muganga aho abarwayi barwarira uba usanga hari aho abarwayi baba kandi abaganga bagerageza kubasura uko bashoboye, bakita kuri buri murwayi wese ku giti ke.

Abaganga bahora bahabwa amahugurwa atandukanye y'uburyo bakita ku barwayi, harimo gukora ubushakashatsi biga ibintu bishyashya, kugira ngo bamenye indwara runaka uko yaje ndetse n'uburyo bayirwanya, niyo mpamvu bahora biteguye kwiga ibintu bishyashya kuko indwara zihora ziza buri munsi..

Kwa muganga haba hari ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kugira ngo batwiteho. Urugero, abaganga iyo bagiye kutubaga, kugira ngo barebe neza, icyo umuntu arwaye, bifashisha amatara yabugenewe, barebamo imbere mu mubiri.

Iyo abaturage bagiye kwivuza hafatwa umwanya hanyuma bakabaganiriza, abayobozi b'ibitaro n'abajyanama b'ubuzima bakora uko bashoboye kugira ngo baganirize abaturage ku ndwara runaka hanyuma babereke n'uburyo bayirinda.

Iyo tugiye kwivuza kwa muganga, baduhereza ubufasha bwose dukeneye kandi bakatwakirana urukundo.

Iyo tugiye mu nyubako zo kwa muganga haba ari ahantu heza hari imihanda n'ubusitani, nanone haba hari imbangukiragutabara ishobora kwifashishwa mu gihe umurwayi yaba arembye cyane.

Abasirikare bari bamwe mu bantu bafite ubuhanga buhambaye ku bijyanye n'ubuzima mu Rwanda aho rimwe na rimwe bashyiraho gahunda yo guhura n'abaturage, bakabavura ku buntu kandi mu buryo bwimbitse. Abaturage benshi bajyayo kandi bishimira izo serivisi bahabwa n'abayobozi b'igihugu.

Kwa muganga hari ibikoresho bitandukanye bakoresha bari kwita ku buzima bwa muntu, urugero nk'amapamba ga amakasi, cyangwa se imiti ishinzwe kwica udukoko bakaraba. Iyo miti yose yifashishwa kugira ngo wite ku buzima bwa muntu, nanone bagomba kwita ku isuku yabyo kugira ngo bitangirika bikanduza n'ugiye kuvurwa.

Iyo tugiye kwivuza, tuba dukeneye ko abaganga batwitaho, ni iyo mpamvu tukinjira kwa muganga batwereka aho bakira abarwayi, hanyuma tukicara kugira ngo dutegereze ko batugeraho, bakadusuzuma bakanatuvura.

Kwa muganga iyo tugiye kwivuza baduha serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi kandi ziba zinoze, nanone abaganga bagerageza gutanga raporo y'ibyakozwe uwo munsi aho bandika buri murwayi uko aje n'icyo aje kwivuza mu bitabo byabo.

Ubuzima ni ingenzi cyane mu mibereho yacu, iyo tubwitayeho bituma n'ibindi bikorwa dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi bigenda neza. Iyo tudafite ubuzima bwiza nta kintu twageraho. Ni iyo mpamvu leta igenda ishyiraho ibigo nderabuzima bitandukanye, ibitaro bikuru by'Akarere, kugira ngo tubashe kwitabwaho, nanone kuri ibyo bitaro uasanga imbagukiragutabara zikoreshwa mu kujya gutabara ubuzima bw'abarwayi aho bari hose.

Kwa muganga, haba hari abaganga babihuguriwe kandi babyigiye, kugira ngo babashe kwita ku barwayi. Na none usanga bambaye imyambaro yabigenewe kwa muganga, itandukanye n'iyombara bagiye hanze. Uba usanga bambaye udupfukamunwa, uturindadamutwe, kandi nabo ubwabo bafite isuku, na none inkweto bambara ziba zitandukanye.

Abaganga bakora uko bashoboye kugira ngo bite ku buzima bw'umuntu. Nk'abashinzwe kubaga umuntu bagerageza uko bashoboye bagashyiramo imbaraga zabo kugira ngo barebe neza ko umuntu ari buze kuba yakira indwara arwaye. Ntako baba batagize kandi barafatanya hagati yabo.

Abana bakiri bato kuva bakivuka byibura kugeza ku myaka ibiri, baba bakeneye kwitabwaho kugira ngo bakurikirane ubuzima bwabo bumeze, harimo n'imikurire yabo niyo mpamvu abaganga bahora bashyiraho gahunda yo gupima abo bana bakabakurikirana, uko bwije n'uko bukeye, ndetse bakareba imikurire yabo uko imeze.

Kwa muganga bapima ibizamini bitandukanye kugira ngo bamenye indwara umuntu arwaye harimo izo bapima bifashishije amaraso kuko haba harimo ibintu byinshi bishobora gutuma bamenya indwara umuntu arwaye.

Abantu bakora kwa muganga baba bafite ubuhanga buhambaye, harimo aba bashinzwe gusuzuma ibizamini abantu baba batanze, abo ngabo bakora muri laboratwari, aho bifashisha ibikoresho bitandukanye, kugira ngo barebe indwara umuntu y'abarwaye zitagaragarishwa amaso, basuzuma ibizamini bakoresheje ibikoresho bitandukanye nk'urugero nka mayikorosikopi.

Kwa muganga kugira ngo barebe neza indwara turwaye bifashisha ibikoresho by'ikoranabuhanga by'indebakure kugira ngo babone indwara, ibyo bikoresho bisaba ubushobozi buhambaye kandi bibona indwara n'udukoko tutagaragarishwa amaso.

Abakora kwa muganga bakeneye gukora ibizamini bitandukanye byo gusuzuma indwara kugira ngo basuzume neza igitera indwara ndetse n'uburyo yakira, ni iyo mpamvu bagira amazu yabugenewe kugira ngo bakore ibyo bizami.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima bakora ubushakashatsi hanyuma na bo bakigishwa uburyo abaganga basuzuma indwara, ibyo babikora bifashishije ibikoresho nk'indebakure zireba ibintu bitagaragarishwa amaso ya muntu.

Kwa muganga haba hari ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gusuzuma indwara, nk'iyo urwaye amaso, bakoresha ibikoresho nk'indebakure kugira ngo barebe neza ikibazo umuntu yaba afite, hanyuma babone n'uburyo bamufasha.

Abaganga bagerageza uko bashoboye kugira ngo bite ku barwayi. Ni yo mpamvu hari inzu zabugenewe zishinzwe gusuzuma indwara zitandukanye. Hanyuma bagakora imiti y'izo ndwara.

Abaganga mu gihe k'icyorezo cya korona virusi, bakoraga uko bashoboye kugira ngo baturinde, barinde n'abaturage. Hari ibipimo byifashishwaga ugupima icyorezo, harimo n'utwo bakoreshaga bashyira mu mazuru hanyuma bakadupima

Abana bakiri bato, baba bakeneye kongerwa intungamubiri kuko baba bakeneye gukura. Cyane cyane abari munsi y'imyaka itanu, ni iyo mpamvu hari imiti igenda ikorwa itandukanye kugira ngo yongerwe mu biryo, abana babona intungamubiri zihagije kandi mu buryo bwizewe, ababyeyi bagomba kubikurikirana, bakazibahereza uko zagenwe kugira ngo bakure neza.

Iyo ababyeyi babyaye hari igihe biba ngombwa ko baba bari kwa muganga mu minsi mike, n'iyo mpamvu mu byumba byo kwa muganga hari ahagenewe aho ababyeyi barwarira, haba hari ibitanda byiza bishashe neza, hari inzitiramibu zibarinda imibu kugira ngo itabarya kandi ibyo bituma ubuzima bwabo bugenda neza n'ubw'umwana.

Kwita ku buzima bw'umwana ni iby'ingenzi cyane, iyo umwana akivuka bakabona atameze neza abaganga bihutira kumuhereza ubufasha kugira ngo baramire ubuzima bwe, bashobora kumushyira mu byuma bimwongerera umwuka, ubushyuhe ndetse n'ibindi.

Abajyanama b'ubuzima bagerageza uko bashoboye kugira ngo bite ku buzima bwa muntu. Niyo mpamvu bashyiraho gahunda, bakajya gusura abaturage mu rugo, bakareba uko bameze. Babafasha kwishyura mituweli ndetse n'ubundi bufasha bwose bakeneye ku bijyanye n'ubuzima.

Kwita ku buzima bw'umwana ni ingenzi cyane ni iyo mpamvu abayobozi, abajyanama b'ubuzima babishyiramo imbaraga bagahereza abana vitamine bakeneye ndetse n'inkingo kugira ngo bibarinde indwara zigiye zitandukanye zishobora kubafata.

Kwita ku buzima ni iby'agaciro cyane ni yo mpamvu leta ishyiraho gahunda yo gupima ababyeyi batwite, abana bakiri batoya indwara zitandukanye umuvuduko w'amaraso cyangwa bakabakingira, ibyo bituma abaturage bagira ubuzima bwiza kandi bakabasha gukora ibikorwa bitandukanye bibateza imbere.

Kwita ku bana ntabwo bikorwa n'ababyeyi gusa, nanone abarezi babitaho ku mashuri bagerageza kubaha amafunguro kandi yujuje ibisabwa, intungamubiri zose ni ukuvuga ibitera imbaraga ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri. Ayo mafunguro aba ateguranwe isuku, kandi abana barayakenera kugira ngo babashe gukura.

Iyo umubyeyi abyaye ni ikintu kiba gishimishije cyane, ni iyo mpamvu abaganga ndetse n'abashinzwe kubyaza babafasha bakabitaho ndetse iyo igihe cyo kubyara kigeze bagerageza guha umubyeyi serivisi nziza, ku buryo abyara neza nta kibazo na kimwe ahuye nacyo yaba kuri we cyangwa se ku mwana we.

Leta ishyiraho gahunda yo kwita ku baturage mu buryo butandukanye harimo n'ubuvuzi. Mu gihe cya korona virusi abantu ntibakoraga ibikorwa byabo nk'uko byari bisanzwe, gusa ubuyobozi bw'ibitaro ndetse bufatanyije n'igihugu bakomeje gushyiraho uburyo butandukanye bwo kwita ku baturage babatoza kwambara udupfukamunwa, gushyiramo intera hagati yabo na bagenzi babo ndetse bakabahereza n'ubundi bufasha bakeneye.

Kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ingenzi cyane. Niyo mpamvu hari ibigo bitandukanye mu rwanda byishyiriyeho intego yo kwita ku buzima bwo mu mutwe. Aho bajya mu baturage bagatanga amahugurwa atandukanye ku buzima bw bwo mu mutwe, harimo ibimenyetso byafata umuntu, uburyo bamufasha ndetse bakabahugurira kujya kwa muganga mu gihe bumva batameze neza.

Ubuzima bwo mu mutwe ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane tuba tugomba kwitaho kugira ngo tugire iterambere ni uko tuba tumeze neza mu mutwe dutekereza neza niyo mpamvu abayobozi b'ibitaro ndetse n'abandi bafite ubushobozi na leta bashyiraho ingamba ndetse bagatanga ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuvuzi bwo mutwe n'uburyo twafasha abafite icyo kibazo.

Ubuvuzi bwo mu mutwe bukomeje guhangayikisha isi cyane kubera ko iyo utameze neza mu mutwe bikorwa byose bishobora guhagarara, niyo mpamvu ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda gifatanyije na Minisiteri y'ubuzima gitanga amahugurwa ku buvuzi bwo mutwe haba mu mashuri ndetse no mu baturage bisanzwe kugira ngo babashe kubyitaho.

Inzu zishinzwe gucuruza imiti, ziba zirimo ibintu bitandukanye. Imiti twifashisha mu gihe kwa muganga bayitwandikiye kugira ngo dukin indwara turwaye. Nanone wahasanga amavuta meza adufasha kurinda uruhu rwacu no kurinda indwara turwaye. Haba hari amasabune, imiti y'amenyo. Gusa n'ubwo bimeze bityo, aba bantu baba barangwa n'isuku cyane ku buryo imiti itakwangirika cyangwa ngo u igire ikindi kibazo.

Iyo turwaye dukeneyera kujya kwivuza bakaduha imiti, iyo tuyikeneye hari ahantu hatandukanye dushobora kuyikura, harimo nko mu mafarumasi. Dusanga hari imiti y'ubwoko bwose kandi bizwi mu buryo bwizewe, bikaturinda ndetse nayo bwayo ntiyangirike. Iyo miti turaba twizeye neza ijana kuana ko yadufasha.

Iyo turwaye dukenera ahantu twakura imiti bitatugoye, urugero hari amazu ashinzwe gutanga imiti tuyiguze akorana n'ubwishingizi bugiye butandukanye.

Hari amafarumasi agiye atandukanye mu Rwanda acuruza imiti ku buryo iyo turwaye bitadusaba gukora ingendo ndende, ayo mafarumasi aba arimo imiti y'ubwoko bwose nanone iyo miti iba yizewe kuko iba ibitse mu buryo bwiza cyane.

Mu mazu yabugenewe mu gucuruza imiti usanga hari ubwoko butandukanye kandi ibitswe mu buryo bwiza bwizewe kandi bufite isuku iyo turwaye cyangwa muganga atwandikiye imiti niho tujya kuyireba tukayigura.

Iyo turwaye dukenera imiti na none hari igihe muganga twandikira imiti, bikaba ngombwa ko tuyikura ahandi. Niyo mpamvu hari amazu yabugenewe, ashinzwe gucuruza imiti y'amoko atandukanye.

Iyo turwaye indwara zitandukanye abaganga batwandikira imiti harimo n'iba ikozwe mu binini hari iby'ubwoko bwose butandukanye kandi bivura indwara zitandukanye.

Iyo turwaye turi nko mu rugo cyangwa muganga atwandikiye imiti dukenera ahantu ho kuyikura, hari amaduka yabugenewe mu gucuruza imiti itandukanye ku buryo tuyibona bitworoheye.

Iyo turwaye dukenera ahantu ho kugura imiti bitworoheye kandi bitadusabye gukora ingendo. iyo mpamvu mu makaritsiye, ku mihanda no ku masoko, usanga hari inzu zishinzwe gucuruza imiti kandi biba byoroshye kuyibona ku giciro gitoya.

Inkoko ziba zikeneye kwitabwaho kugira ngo zitange umusaruro mwiza, zishobora kuba zikeneye vitamine cyangwa hari indwara zirwaye, ni iyo mpamvu abavuzi b'amatungo bashinga inzu zishinzwe gucuruza imiti kugira ngo tubashe, kubona iyo miti bitworoheye.

Ibiyobyabwenge ni kimwe mu bintu byugarije urubyiruko muri iyi minsi, iyo mpamvu Leta ishyiraho gahunda yo kurwanya ibiyobyabwenge itanga ubukangurambaga, ishobora gushyiraho icyumweru cyahariwe kurwanya ibiyobyabwenge, muri iyo minsi hakorwamo ibintu bitandukanye, gushishikariza urubyiruko ndetse n'abandi kurwanya ibiyobyabwenge.

Amashuri makuru na za kaminuza baba bakeneye guhugura abanyeshuri ku bintu bitandukanye urugero nka sida, gusa ibyo bikorwa hazamo abahanzi ndetse n'abandi basitari kugira ngo babafashe kwishimira icyo gikorwa, kandi bagire icyo bakuramo. Ni iby'ingenzi ko iyo gahunda igomba gukorwa, kugira ngo bahugure abanyeshuri ku buzima busanzwe hifashishijwe abahanzi, kuko aribo bantu bisangaho.

Ni byiza ko kwita ku buzima biba ibya buri wese n'abanyeshuri bakiri batoya baba bagomba kwigishwa ku bijyanye no kwita ku buzima bwabo. Ibyo bizatuma babuha agaciro kandi babashe no kwiyitaho.

Agakingirizo ni ingenzi cyane kugira ngo karinde abantu bakoze imibonano mpuzabitsina kwandura indwara cyanga guterwa inda zitateguwe, niyo mpamvu urubyiruko ndetse n'abandi bigishwa kugakoresha neza.

Leta ijya ishyiraho gahunda yo guhugura abantu ku bijyanye n'ubuzima hakubiyemo kwita ku buzima bwa muntu bwo mu mutwe, ndetse igakangurira urubyiruko ndetse n'abandi gukora imyitozo ngororamubiri kuko ibafasha kugira ubuzima bwiza. Ibyo bikora itanga amahugurwa agiye atandukanye ku bantu.

Ibimera cyangwa se ibyatsi gakondo, bivamo imiti itandukanye, urugero nk'umuravumba iyo tuwuriye dukira inkorora, ibicurane cyangwa se mu muhogo. Dushobora kuwurya ari mubisi, cyangwa se tukawotsa tukanywa mu mazi.

Imiti gakondo iyo ikozwe neza iradufasha gukira indwara zitandukanye. Na none igomba kubikwa mu macupa meza yabugenewe kugira ngo itangirika. Haba hariho n'ibyapa bigaragaza icyo iyo miti ivura.

Ibyatsi gakondo ni bimwe mu bintu bitanga umuti w'umwimerere, urugero umuravumba uvura indwara zitandukanye harimo inkorora, ibicurane, kubabara mu gifu ndetse n'izindi.

Imiti gakondo iyo itunganyijwe ivamo ibintu bitandukanye, urugero nk'umuravumba ushobora kuvura indwara nyinshi harimo; ibicurane, inkorora, anjine, kubabara mu gifu, ndetse n'izindi nyinshi.

Iyo turwaye amaso hari igihe biba ngombwa ko muganga atwandikira kwambara amadarubindi ari yo mpamvu hari ahantu habugenewe ayo madarubindi acururizwa tukayabona byoroshye.

U Rwanda rugenda ruteza imbere ubuvuzi cyane kuko ari bimwe mu bintu ugomba kwitabwaho, abaturage batameze neza ntacyakorwa niyo mpamvu hagenda hashingwa amaposite do sante cyangwa se Gira ubuzima muri buri Mudugudu, kandi uba usanga batanga serivisi z'ibanze kugira ngo abaturage bamere neza.

Kugira ngo umusaruro w'amatungo tworora wiyongere haba hakenewe imiti iba yarakozwe n'abashinzwe ubuzima bw'amatungo, iyo miti yongera umusaruro kuko iba irimo intungamubiri.

Iyo hari icyorezo cyangwa hari indwara runaka abaganga bashaka kudukingira bifashisha inshinge aho zihutisha umuti gukwirakwira mu mubiri byoroshye kuko uhita ujya mu maraso.

Ku bigo nderabuzima ndetse no ku bitaro byigenga, uhasanga abaganga batandukanye batanga serivisi zigiye zitandukanye. Gusa zose bazihuriza hamwe kuko ziradufasha kuko zigenda zunganirana. Bagerageza kwita ku barwayi bakabereka urukundo, kandi bakabafasha mu buryo bushoboka.

Mu gihe cy'icyorezo cya coronavirus cyari giteje impungenge cyane kandi cyandura, bimwe mu bintu byagaragazaga ibimenyetso harimo kuba umuntu afite umuriro mwinshi, ni iyo mpamvu ahantu hahuriraga abantu benshi buri muntu yagombaga gupimwa umuriro kugira ngo barebe niba ataba afite ubwo bwandu.

Iyo hubatswe poste de sante, hashyirwaho gahunda yo kuyitaha, haba hari abaterankunga batandukanye, abaturage ndetse n'abaganga. Ubuzima ni ubw'agaciro niyo mpamvu leta igenda ishyiraho poste de sante ndetse n'ibigo nderabuzima kugira ibashe kwita ku buzima bw'umuntu byoroshye.

Ku bitaro bitandukanye tuhasanga ibikoresho byinshi byifashishwa mu kwita ku buzima bwa muntu. Haba hari ibikoresho abaganga bambara kugira ngo babashe kwita ku buzima. Ibyo bikoresho birabarinda kugira ngo batarwara, nanone abajyanama b'ubuzima barabihabwa, kugira ngo babashe kwita ku buzima bw'abaturage.

Mu Rwanda hagenda hubakwa ibigo nderabuzima, posite do sante cyangwa se ibitaro byigenga, kugira ngo barusheho kwita ku buzima bwa muntu. Ibyo byose iyo bihurijwe hamwe bifasha abaturage mu kubona serivisi z'ubuvuzi, kandi byose biba bigomba gutanga serivisi zinoze, kugira ngo ababagana babashe kwishimira ubuzima, kandi bumve bameze neza.

Kwa muganga tuhasanga serivisi zitandukanye hariho nako bita ku bakuze. Nubwo baba bageze mu za bukuru tuba tugomba gukurikirana ubuzima bwabo, niyo mpamvu abaganga bagerageza kubitaho bapima indwara zitandukanye nk'umuvuduko w'amaraso, umutima ndetse n'izindi babaha serivisi nziza ku buryo nabo babyishimira kandi ibyo bikabarinda ntibarwaragurike.

Abaganga bagerageza uko bashoboye kugira ngo bite ku buzima bwa muntu, bashyira amakuru yabo mu mashini bagasuzuma kandi na bo bahora biga kugira ngo babone ubumenyi bushyashya.

Abana biga mu mashuri abanza na bo baba bagomba gutozwa kugirira isuku intoki zabo hifashishijwe kandagira ukarabe, bakaraba neza n'amazi meza n'isabune maze udukoko tukabasha gupfa.

Iyo twahinze dukenera kwita ku myaka yacu kuko hari n'igihe irwara, niyo mpamvu hari amazu ashinzwe gucuruza imiti ijyanye n'ibyo guhinga, iyo miti ishobora kuba inica udukoko twangiza imyaka.

Ababyeyi iyo bafite abana bakiri bato, baba bagomba kwihutira kujya kubavura uko bishoboka kose. Gusa nanone baba bagomba kureba neza niba ubwishingizi bwabo bukorana n'ibitaro, kandi bagomba kwitabira kwishyura mituweli kuko umwana ashobora kurwara igihe icyo ari cyo cyose. Iyo bageze kwa muganga babitaho bakabahereza serivisi zinoze.